Umwana ni ngombwa kumwitaho cyane, no kumuha ibimugenewe mu gihe icyo ari cyo cyose. Urugero: umwana niba bamwandikiye urukingo cyangwa urushinge, uba ugomba kubimuhera ku gihe, kugira ngo ubuzima bwe bukomeze bugende neza.

Mu gihe cyo kwamamaza abakandida, buri muntu yamamaza uwo ashaka kandi akanamutora. Rero twebwe mu Rwanda Igihugu cyacu gifite demokarasi kandi ihambaye ku buryo buri muturage atora umuyobozi ashaka kandi abonamo ubushobozi

Abana kubitaho ni ukwita ku gihugu kuko umwana mutoya iyo umureze neza, ukanamwitaho, akura afite imitekerereze yagutse kandi atekereza neza ku buryo avamo umuntu ukomeye uzi gutekereza kandi uzi kugira abantu inama, ufite kwiyitaho, akita no ku bandi.

Ebola ni indwara yafashe intera nyinshi cyane, ku buryo abantu bari batangiye kugira ubwoba bukabije cyane, abantu ugasanga bataye umutwe, abandi ugasanga bari kurira, ugasanga byabaye ibibazo byinshi, rero abantu barasenze bariginga Imana kugira ngo ibafashe.

Hari uburyo bwinshi bwo gukora robine iwawe mu rugo cyangwa ku bigo by'amashuri cyangwa n'ahandi hantu hahurira abantu, ushobora gufata indobo ugashyiraho rwose, akantu ka robine gafungura ku buryo umuntu ashobora kuza agafungura agakaraba intoki n'igihe agiye kwinjira mu ishuri wenda avuye nko muri tuwarete cyangwa se yakoze no mu myanda cyangwa hari ikindi kintu yakozeho kindi akabanza akisukura neza.

Kandagira ukarabeze zagize agaciro muri iki gihugu cyane cyane mu gihe cya covide cumi n'icyenda abantu bashishikarizaga gukaraba amazi meza n'isabune, aho buri muturage wasanga afite kadagira ukarabe kugira ngo umugereye mu rugo wese abanze yisukure n'amazi meza n'isabune.

Ubu havumbuwe ubundi buryo bwiza bwo kwicara igihe hari inama cyangwa habaye ubukwe, abantu bagahurira ku itebo imwe wenda nk'abantu icumi n'abandi icumi bagahurira ku yindi, kugira ngo bose bakwirwe, kandi buri muntu abone n'uwo aganira na we.

Kwishimira intsinzi ni byiza, abenshi bamaze no kubigeraho, iyo hari ikintu wagezeho ugomba gutumira abantu mwafatikanije, mukagira ahantu mwicara mukishima, ukarya, mukanywa, mukabyina, mugahemba bitwaye neza igihe bishoboka.

Uko Igihugu cyacu kibanye n'abantu cyangwa n'ibihugu byo hanze bigaragaza uburyo Abanyarwanda bameze n'urwego bagezeho, nk'iyo igihugu gikomeye kivuze ngo kirasura u Rwanda aba ari ishema ku gihugu cyacu ndetse n'intsinzi yo kwishimira kuko hari icyo baba baratubonyeho, ari na yo mpamvu bavuga ngo reka tuzasure iki gihugu.

Amazi ni ngombwa mu buzima, kuko amazi ni amwe mu hatuma umuntu agira ubuzima bwiza, ndetse n'ibikorwa byinshi tubikora twifashishije amazi, nko gukaraba, kuza, gufura, no guteka, n'indi mirimo myinshi. Rero abantu bagerageza kujya ahantu hari ivomero, kugira ngo babashye kubona ayo mazi, mu buryo bwo kugira ngo bakomeze bakore ibikorwa byabo.

Iyo hari inama y'abaminisitiri cyangwa indi nama yose irimo abantu bakomeye, iba igomba kugaragaza icyubahiro bagomba igihugu cyabo, nko kuba hari ikirangantego cy'igihugu kugira ngo bagaragare neza, kandi n'igihugu cyabo bigaragaze, kandi bakaba bicaye ku buryo butandukanye; niba ari ibihugu bibiri byahuye bamwe bakaba bari iburyo, abandi bari ibumoso, kandi uyoboye inama akaba yicaye wenyine ari imbere, ku buryo umuntu wese uje ahita abibona.

Kera iyo umuntu yarwaraga bakamwandikira urushinge, yabaga arembye bisaba izindi mbaraga zo kugira ngo akire n'ubwo ubu ngubu byagabanutse, ubu hari imiti myinshi isimbura inshinge, ku buryo uyinywa mu cyimbo cyo kuguha urushinge, ariko na n'ubu hari igihe basanga indwara urwaye nta kundi byagenda bataguteye urushinge.

Ni byiza gukaraba amazi meza n'isabune, kuko iyo ukarabye amazi meza n'isabune nibwo imyanda yose iba yagushizeho. Rero ni byiza yuko umuntu yitoza gukaraba intoki kandi no kugira isuku muri rusange. Kuko n'iki ni igice cy'umubiri gikora akazi kenshi.

Abana ni ngombwa kubitaho cyane, nko kubashyira hamwe ukabaganiriza ku bijyanye n'ubuzima bwabo, kumenya kwiyitaho no kumenya no kumenya ibyo bagomba kwirinda n'ibyo bagomba gushyiramo imbaraga bakabikora babonako byarengera ubuzima bwabo.

Ivomo rihuriweho n'abantu benshi uba usanga iyo bagezeho n'ubundi baba bishimanye kandi bakaganira kuko ntiwahura n'abantu ngo mwese muceceke kandi muzi kuvuga. Rero iyo ari ku ivomo risaba gupompa, buri umwe apompera mugenzi we, yasoza nawe akamupompera, bose bagacyura amazi.

Hari ibyumba biberamo inama abantu bakaganira bakungurana ibitekerezo ku bijyanye n'ubuzima no ku zindi gahunda muri rusange, ariko cyane cyane ubuzima ni bwo bugomba kuganirwaho cyane, hakabona gukurikiraho ibindi by'iterambere.

Umubiri uba ukeneye ibiribwa, uba ukeneye ibinyobwa kugira ngo niyo mpamvu n'umushinga wo kwita ku buzima bw'umuntu akenshi wita cyane kubo aryarya, kubyo anywa kugira ngo bamenyeshwe ko ubuzima bwe buri kugenda neza.

Nk'abana habaho gushimirwa, niba habaye nk'amarushanwa umwana yatsinda bakamuha ishimwe. Ibyo bituma n'abandi bagera kuraje zo gukora nk'ibyo yakoze, kandi ntabwo biba ari kubirwanira gusa, kuko no mu mubiri ubwawo baba babyiyumvamo. Bityo rero iyo watangiye kwiyumvamo ikintu ukanagikora nta kabuza urageraho ukakimenyera, ukagikora ukisangamo, kandi wumva koko ugikeneye.

Akenshi iyo umuntu agiye nko kuvoma, hari igihe agezeyo inyota yamwishe, agahitamo gutega ibiganza kuri robine maze ubundi akanywa. Yamara kunywa yakijuta, akabona akavoma amazi. Ibyo rero bikunze kubaho haba mu mujyi, haba no mu cyaro, ibyo ni ibintu bibaho yewe haba no ku isi ,no mu Rwanda birazwi.

Kubungabunga ubuzima bw'umuntu, ni ngombwa cyane, cyane cyane ku bana. Niyo mpamvu leta ishyiraho gahunda yo gutanga inkingo ku bana kugira ngo barwanye ko abana bafatwa n'indwara bitari ngombwa. Niyo mpamvu, umuntu wese ubyaye ashishikarizwa kwita mwana we mu buryo bw'umwihariko, yubahiriza amabwiriza.

Uko iminsi igenda ishira ni ko isi n'abayituye tugenda dutera imbere, ku buryo iyo ugiye kwa muganga babanza bakamenya, uburyo ubuzima bwawe bumeze, cyangwa se kondisiyo burimo, kugira ngo babone aho bahera bakuvura. Nko kumenya uko umutima utera, uko amaraso atembera, n'ibindi byinshi bibera mu mubiri. Rero ni ngombwa yuko umuntu amenya ko ubuzima bwe buhagaze.

Hari ibikoresho bikoreshwa mu kubika amazi no gukoresha amazi nk' indobo, rozwara, ijerekani, isafuriya, ibiduke, n'ibindi nk'ibyo.

Ivomo risaba gupompwa na ryo ribaho, nubwo ritwara imbaraga nyinshi ariko nabwo ni byiza ku baturage kuko bayabagurisha kuri makeya, hari na bo usanga batayabishyuza, ibyo rero bifite akamaro ku buzima bw'umuturage kuko abafite amazi.

Abana ni ingenzi kandi ni na ngombwa kubabungabunga, kuko umwana iyo umubyeyi we amwishimira biramunezereza, kandi urwo rukundo na we ararukurana. Ni yo mpamvu tugomba gutoza abana gukundana bakiri batoya, kugira ngo bazavemo abantu, igihugu gitegerejeho umusaruro.

Ivomo risaba gupompa na ryo nubwo bisaba imbaraga ariko rirakoreshwa kandi ryunganira abaturage. Umwe aba ashobora kujyaho agapompa akavaho akavomera n'undi, gutyo gutyo bakagenda bafashanya ku buryo bose bacyura amazi.

Abana baba bagomba kwitabwaho cyane rero bibanda ku bana bari mu mutuku kugira ngo babiteho nabo bagere mu muhondo, ibyo babifashwamo n'abajyanama b'ubuzima n'abandi babishinzwe muri Leta n'abandi bagiraneza, kugira ngo barengere abaturage.

Abana ni beza kandi baranezerwa mu buryo bushimishije, iyo umwana umushimishije arishima, ni yo mpamvu tugomba kwita ku bana bacu, tukazajya tubabungabunga dukina na bo tubaganiriza, tukamenya ibibazo bafite kugira ngo tubone aho duhera tubibasubiriza.

Mabaga yaraje ni virusi yaje iteye ubwoba igera no muri Afurika yica abantu batari bakeya cyakoze ku bufatanye n'amahanga n'u Rwanda n'ababishinzwe n'abaganga babyitaho none ubu ngubu ntayihari, imana ishimwe.

Buri gihe abantu bagira igihe cyo guhura bakaganira ku makuru, bakungurana ibitekerezo ku bijyanye n'ubuzima, bakagirana inama, abafite ibibazo bakabisubizwa, ibyo bituma baba bafite icyizere, n'abandi bagasubiza ibibazo bari bafite.

Abana na bo nko ku ishuri, uba usanga akenshi na bo bahagirira ubuzima butandukanye, bushobora kubagiraho ingaruka nziza cyangwa mbi. Nko mu misubirize, kuba umwana yamanika agatoki yarangiza agasubiza, na byo ni byiza kuri we. Ubwabyo bituma yumva yishimye, n'abandi bana baba bari kuboneraho, uko bimeze.

Ku isi hose ndetse no muri Afurika yewe no mu Rwanda, habaho igihe abayobozi bagaterana n'abandi babizwe, cyane cyane mu buryo bw'ubuzima bagaterana bakiga ku mibereho y'abantu n'ubuzima bwabo muri rusange, uko buri kugenda kugira ngo niba hari ikibazo barebera hamwe uko baragikemura.

Bitewe n'abaturage baba bari ahantu runaka nko mu mudugudu. iyo hari ivomo hari igihe bigorana kubona amazi kubera ubwinshi bwabo, niyo mpamvu rero bisaba kugira ngo batonde umurongo bahereye ku baje mbere ariwe uvoma. Ibyo ni byiza kandi bisaba gupompa bagenda bafatikanya umwe akagenda apombera undi, undi akavoma yavahomo n'unundi bagafatikanya, iyo bahuye bose nta mbaraga bafite ari nk'abana barafatikanya kugira ngo bose bavome.

Abajyanama b'ubuzima bagira igihe na bo bagahura, bakabakoresha inama kandi bakabahugura ku bijyanye n'indwara runaka, yaba ari indwara isanzwe cyangwa ari icyorezo cyaje bakabagira inama y'ukuntu bagomba kwitwara, n'uko bagomba kwita ku barwayi.

Kumenya ibiro by'umwana ni byiza kuko bituma umenya uko ugomba kumwitaho, bigatuma umenya aho afite imbaraga nkeya n'aho afite imbaraga nyinshi, bityo ugatangira kumwitaho ukurikije uko wasanze ibiro bye bihagaze. Ni ngombwa rero gupimisha umwana, wasanga ari kubyibuha cyane ukabigabanya wasanga ari no kunanuka cyane nabwo ukabyoyongera.

Kunywa amazi ni ingenzi cyane, bibaho ko umuntu ajya kuri robine ugasanga anywesheje amazi ateze amaboko akanywera ku biganza, ariko ntabwo ari byiza, ibi ngibi bishobora gutera umwanda ahantu henshi.

Hari ibimenyetso umwana agaragaza ukamenya ko afite ubuzima bwiza, urugero nk'iyo arwaye bwake usanga umusatsi wacu uramye n'ibiro bikagabanuka niyo mpamvu rero iyo abantu bateraniye hamwe cyane cyane ababishinzwe kurebera ubuzima cyane cyane ubw'umwana babyigaho bakabishakira inkingo.

Kuvoma amazi ni byiza kandi ni ingenzi, hariho ivomo rusange riba ryarashyiriweho abaturage kugira ngo bisangemo buri wese avome, kuko amazi uba usanga yarabaye makeya, ku buryo buri muturage ataba afite robine ye mu rugo.

Gusuzuma abantu indwara ni byiza, kuko iyo umuntu amenye indwara arwaye amenya n'uburyo bwo kuyivuzamo. Ni ngombwa rero ko igihe batanze amahirwe yo kugira ngo basuzume abantu indwara runaka, umuntu agomba kwitabira kugira amenye uko ubuzima bwe buhagaze.

Ibigo nderabuzima hirya no hino, bamaze kumenya uburyo wakita ku barwayi b'ingeri zose, ku buryo abenshi mbere yuko batangira akazi babanza kwicara bakareba ngo, uyu munsi gahunda imeze gute, buri muntu bakamubwira uko ari bwitware, yewe n'uwitwa.

Abana ahantu bakunda guhurira cyane cyane nko ku ishuri baba abagomba kubitaho bakabegereza ibikoresho by'isuku kugira ngo bakarabe intoki nk'igihe bavuye mu bwiherero, igihe bagiye kurya bagakaraba intoki n'amazi meza n'isabune kugira ngo birinde indwara.

Kwita ku mwana ni byiza kandi ni ingenzi, kuko umwana iyo umwitayeho akura neza, agakurana ikivumba kandi kidafite ikibazo na kimwe, niyo mpamvu rero nk'umubyeyi ugomba kumenya umwana wawe ko ugomba kumwitaho, yaba atangiye nko kurya ukamenya ko uzajya umuha imbuto, n'utundi two kunywa tworoheje.

Buri munsi Leta iba ishakisha icyagirira umumaro abaturage, ku buryo nk'abaturage badafite amavomero mu ngo zabo, ibashyiriraho ivomo rusange kugira ngo ba bandi badafite amazi yo mu rugo, bajye babona ahantu bayakura biboroheye kandi ku giciro gitoya gishoboka. Leta rero ntako iba itagize kugira ngo iteze imbere umuturage yita no ku buzima by'umwihariko.

Umuntu akenshi ibikorwa akora bigaragaza uko atekereza. Kuko iyo umuntu atekereza nabi akora ibibi, ndetse iyo atekereza neza akora ibyiza. Urugero nk'umwana ugasanga umubyeyi ntabwo amwitaho, ararira akamwihorera ntamurere, cyangwa ngo amuhoze. Biterwa n'uko aba ari kubitekereza n'imitekerereze ye uko imeze.

Abantu ni ngombwa yuko baganira bagasangira ibitekerezo kugira ngo bahumurizanye abafite ibibazo bakomezanye kandi bafashanya. Ibi byongera ubuvandimwe n'ubucuti n'imibanire muri rusange.

Hari igihe umuntu ukimukubita amaso uhita ubona ko afite ikibazo cyo mu mutwe, akaba atarasaze ngo yerure ariko ubona afite ikibazo cyo mu mutwe, cyangwa cy'imitekerereze, abongabo rero nabo hari igihe uba usanga byaratewe n'ibintu byinshi aba yarakuriyemo, cyangwa afite ibikomere.

Akenshi iyo umuntu afite ikibazo cyo mu mutwe, bitangira kugaragara n'inyuma ku buryo ureba umuntu isura ugahita umenya yuko afite ikibazo cy'imitekerereze cyangwa cy'ubwonko, aba ari gusatira kugera aho agira ubumuga bwo mu mutwe.

Ubuzima bw'umuntu ni cyo kintu cya mbere. Cyane cyane ubwonko, kuko ubwonko ari bwo bufite akazi gakomeye kurusha ibindi bice by'umubiri. Iyo ubwonko rero bugize ikibazo ni yo mpamvu ubona umuntu wese umubona ukabona ko afite ikibazo cyo mu mutwe. Rero abantu bagenda biga uburyo bwo kubitaho no kubahumuriza n'uburyo babatwara kugira ngo barinde ubuzima bwabo.

Abantu babana n'ubumuga bwo mu mutwe bamaze kuba benshi ariko bagenda banagabanuka uko ubumenyi bugenda bwiyongera nk'uko bagenda batera imbere bakabavura uwahoze afite ubumuga bwo mu mutwe agakira kandi akabaho mu buzima busanzwe nk'ubw'abandi.

Hari igihe umuntu ahura n'ikibazo akiheba agatangira gutekereza cyane kuko byamukurizamo nk'indwara nka stroke, stress n'ibindi. Ni yo mpamvu rero igihe umuntu yahuye n'ikibazo aba agomba kugira abantu bamuganiriza bakamusura bakamwigisha uko agomba kubyitwaramo kandi bakamukomeza.

Ni ngombwa ko abantu bihuriza hamwe, bakaganira kandi bakungurana ibitekerezo, kuko aho umwe atumva biba bishoboka ko bamuganiriza kandi bakabimwumvisha kugira ngo agendane n'abandi bajye umujyo umwe.

Kumenya umuriro umuntu afite, bituma nabwo umenya urwego ariho ku burwayi bwe, kumenya niba ari norumari, cyangwa niba yamaze kurwara, iyo rero bikabije cyane har igihe bashobora kuguha igitanda kugira ngo bakwiteho by'umwihariko.

Akenshi iyo umuntu yicaye aratekereza cyane kandi iyo atekereje cyane uba usanga afite ibindi bintu arimo bishobora kumugiraho ingaruka. Rero hari igihe bibaye bibi ariko ni na byiza ku rundi ruhande, kuko bituma umenya ngo wowe uri muntu ki.

Ikigo cyitwa RBC, gishinzwe ubuzima bw'umuntu ku buryo bicara bakajya inama bakareba umwanzuro wafatwa, tuvuve urugero niba indwara yabaye nyinshi yenda nka Malariya, bakicara bakaganira, bakareba ku mpamvu iri gutera Malariya, n'uburyo bayirwanya. Barangiza kubona uburyo bayirwanya, bagashishikariza abaturage ,bakanabafasha kuyirwanya.

Umwana ni mwiza, umwana araryoha, umwana ni nderabakura, umwanawana ni umutware. Umwana uko umwitaho akiri muto ni ko akura. Iyo wamutoje gukora ikintu runaka aragikurana. Ni yo mpamvu umwana agomba kwitabwaho cyane, kuko birengera ubuzima bwe. Bikaba byanamushyira mu kaga igihe utabikurikiranye neza.

Buri gice cyose cy'umubiri, cyangwa buri kintu cyose kigize umuntu gifite agaciro mu buzima bwe, amenyo rero na yo, afite agaciro kandi agomba kwitabwaho cyane by'umwihariko, ukayoza ukoresheje umuti w'amenyo n'uburoso kandi ukamenya neza y'uko koko yanoze.

Hari igihe umuntu arwara akabura umwuka bityo bigasaba ko abaganga bamwongerera umuka, icyo gihe rero, baba bari gutabara ubuzima bwe kuko iyo umuntu abuze umwuka cyangwa umwuka umubanye mukeya, aba ari gusatira kuba yapfa.

Amenyo kuyitaho ntabwo bigoye, bisaba kugira ngo ubihe umwanya kandi unabishyire mu bwonko, ushobora gukoresha urudodo, ushobora gukoresha umuti w'amenyo n'uburoso ugakuba n'amazi amenyo gake.

Ni byiza gutoza umwanya gutangira kwiyitaho akiri mutoya, nko koza amenyo kugira ngo azabikurane, kuko iyo abikuranye abifata nk'umucyo akabikora kandi by'igihe kinini atarambirwa.

Hari ibikoresho bigaragara nk'amenyo, umuntu akabyambara, wabona abyambaye ukagira ngo n'amenyo. Bitewe n'uko wenda amenyeyo ye abona atari meza, akacyambara akajya mu bantu, yataha akongera akagikuramo. ibyo nabyo biterwa n'uburenganzira bw'umuntu n'icyo ashaka.

Igihe wogeje amenyo uba ugomba kumenya neza niba koko amenyo yawe yakeye, ukareba uko asa ukareba niba nta n'akanda kasigayemo kugira ngo nako ugakuremo amenyo yawe akomeze ameze neza kandi nta kibazo afite kuko icyo gihe nta ndwara zapfa kwataka akamenyo yawe uhora umeze neza.

Gusukura amenyo ni meza cyane ku buzima bw'umuntu. Ushobora gukoresha uburoso n'umuti w'amenyo, ushobora gukoresha amazi gusa, ariko ibyo ntabwo biba bihagije, ushobora gukoresha urudodo ukagenda ukuramo utwanda twose cyangwa indi myanda, cyangwa n'ibiryo byafashe mumenyo bigasigaramo, kugirango umenye neza ngo amenyo ameze neza.

Kwa muganga haba hari ibikoresho umuntu yakoresha akora siporo, n'ahandi henshi hatandukanye, hari abiyemeje uwo murimo bakira abantu, bakoresha jimu, bakabakoresha siporo, bakabishyura, kakaba akazi kabo ka buri munsi.

Amenyo akeneye kwitabwaho na yo cyane, kuko iyo atitaweho ararwara. Rero abantu, benshi bamaze gusobanukirwa uburyo bwiza bwo kwita ku menyo, kuyoza, nk'igihe cyane cyane umaze kurya, igihe ugiye kuryama, kugira ngo ukuremo imyanda, kuko iyo igumyemo biteza ikibazo, cyane cyane uburwayi.

Iyo rero utagirariye isuku amenyo yawe, ingaruka ntizabura kuza; birangira n'ubundi barikuyemo kandi ibyo ngibyo ni byo bibi kuruta uko wagirira isuku amemyo yawe. Rero abantu bite ku menyo yabo.

Uburyo bwo gusukura amenyo ni bwinshi. Ushobora gukoresha uburyo bwo gukuramo imyanda, ushobora gukoresha uburoso bw'amenyo, n'umuti w'amenyo, n'amazi, ugakubamo, ugashyiramo n'amazi, ugacira imyanda yari irimo, noneho ukanareba neza ukamenya niba imyanda yose yashizemo.

Kuva kera na n'ubu, ababyeyi bakunda ubukwe, kubona umwana wabo yashyingiwe, agiye kubaka urwe. Rero, iyo umwana ashaka gushimisha umubyeyi we, akenshi ahera ku bukwe, akamushimisha mu gihandagazi, akamuha impano kugira ngo yishime kandi anezerwe.

Abategarugori barisobanukiwe ubu bafite ijambo, ku buryo umubyeyi mutoya cyangwa ukuze ahagarara agafata ijambo, akavuga kandi ukumva yuko avuze ijambo rizima, niyo mpamvu rero kuvangura ushingiye ku gitsina atari byiza, umuntu wese yagira ubwenge kandi agakora n'ibyo umugabo yakora.

Abasaza iyo bari kumwe n'abana babo cyangwa n'abuzukuru babo, baba babishimiye; bagakina, bagasabana, bakaririmba; ibyo bituma umubyeyi yishima kuko aba abona ko yagize umusaruro.

Abantu babana n'ubumuga nabo ni ngombwa kubitaho kuko ntabwo baba baciriweho iteka. Iyo bagendera mu kagare cyangwa afite imbago ni ngombwa yuko niba yarwaye yitabwaho kandi yihutishirizwa kujya kwa muganga kugira ngo bamwiteho nawe babe bamuha ubuvuzi nk'abandi.

Abaforomo baba baratojwe ku buryo barwaza neza abarwayi, bakabitaho ku buryo ubwabyo bizanira umurwayi icyizere cyo gukira nko kumucunga mu kagare, utamuhungabanya, umubwira neza, unamuganiriza ndetse umuhumuriza bigarurira icyizere umurwayi.

Akenshi kugira ngo umuntu arame ku isi, biterwa n'ubuzima aba yarabayemo, rero ntago ari ku bato gusa ahubwo no kubakuru bakeneye ubwo buzima bwo kubaho abantu babakunze abantu babishimiye, kuko bituma bagira icyizere cy'ubuzima.

Kwa muganga iyo umuntu yahuye n'imvune, mbere y'uko ataha barabanza bakamukoresha ibizamini, kugira ngo barebe neza ko ingingo ziri gukora neza, ndetse kugira ngo bagire icyizere cy'uko koko, yabasha gukira.

Abarwayi kubitaho ni ngombwa, cyane cyane iyo abantu bakuze batangira kugira indwara za hato na hato ugasanga yarwaye umutwe, ugasanga yarwaye inkorora ariko iyo bafatikanije ntago bapfa kwibagirwa ko baranywa imiti buri wese yibutsa mugenzi we, umwe akayiha undi, undi akayiha undi, cyangwa umwe akayiha ariko bakibutsanya.

Iyo umuntu ukuze aje kwa muganga ni ngombwa yuko umwitaho mu buryo bw'umwihariko kandi no mu rugo ni byiza kuba afite umuntu umwitaho, umumenyera uko anywa imiti, akanamwerekera, akanamenya neza ko iyo miti koko yayinyweye.

Nta muntu n'umwe utishimira guhura n'abandi bantu, ngo baganire, ngo basabane, mbese ubone ko bishimiye ubuzima, rero abantu bakuru nabo iyo bageze mu zabukuru, akenshi baba bashaka kugira ngo babe bari kumwe n'umuryango wabo bishime kandi banezerwane.

Abantu bakuru bakunze kwibasirwa n'indwara zitandukanye, ni yo mpamvu baba bakeneye umuntu wo kubaba hafi, kugira ngo abungabunge ubuzima bwabo mu buryo bw'umwihariko, kuko utabakurikiranye neza bashobora gufatwa n'indwara bitunguranye bakaba bahasiga ubuzima.

Iyo umurwayi arwaye kandi anakuze bisaba kugira ngo umuhore hafi, urebe uko ameze umubaze uko ameze ndetse byinshi ukaba wanabyibonera bituma umenya aho uhera umurwaza.

Ababyeyi n'abandi babyifuza bashyizeho amakoperative abafasha, kugira ngo batezanye imbere, abenshi uba usanga bihuriza hamwe nko mu buhinzi, cyangwa mu bucuruzi ugasanga bishyize hamwe ko bazajya bacuruza nk'inyanya cyangwa imbuto n'ibijumba amatunda, ibinyomoro n'ibindi nk'ibyongibyo bityo bikazamurana, buri wese agafasha mugenzi we.

Akenshi iyo umuntu ashaje agenda ananirwa ku buryo agera aho kugenda adafite inkoni bimugora, rero bigasaba ko afata inkoni kugira ngo yunganire nawe izo afite kugira ngo agende ameze neza hato ataza no kugwa.

Kurya neza, ni ingenzi ku buzima bw'umuntu, kuko umuntu urya neza ubu usanga ariwe ufite ubuzima bwiza. Umuntu rero urya neza hari indwara zidapfa kumufata, kuko ibyo arya ari byo biba bifite ubushobozi bwo guhangana na ya ndwara. Iyo rero adafite ubwo bushobozi, uba usanga aribwo abasirikare b'umubiri babaye bakeya.

Kwishima ni byiza kandi ni ngombwa iyo abantu bari kumwe bose bakuze, baba bagomba kwishima, bagakina, bagasabana, bagaseka kuko na byo bituma ubuzima bugenda neza kurusha uko babaho bigunze.

Gukora siporo ni byiza ariko no guhorana akamwenyu ku maso na byo bifite akamaro kandi bifite agaciro, niyo mpamvu uzasanga akenshi umuntu ukora siporo nta n'umushiha agira kuko aba yaruhutse, nta kintu kindi aba ari gutekereza kibi.

Ababyeyi bakuze bitabwaho iyo bageze kwa muganga, bakaba babakoresha siporo bakamubwira ati "inure, kora aha, kora aha", bakareba ko ibice by'umubiri bikora neza. Ibyongibyo bifasha ubuzima bwabo.

Kurya imbuto ni byiza, no gufata ibiryo bya mu mugitondo ni byiza, ariko cyane cyane iyo ufite ubushobozi icyo kunywa uba ugomba kunywa cyinshi kuko iyo ubona ibyo kunywa bihagije uba ufite n'amaraso ahagije.

Kugirira isuku umubiri ni ngombwa, igihe ubona hari umuntu mubana udafite imbaraga zo kwiyoza ni byiza ko yuko umwonza ukamwogesha amazi meza n'isabune akanoga kandi ukamusiga kuko iyo umuntu akaraba aba afite ubuzima bwiza kuko afite umuhumuro mwiza.

Iyo umuntu yakoze impanuka akavunika ingingo ze zikangirika, mbere y'uko asezererwa ngo atahe, barabanza bakamusuzuma kugirango bamenye yuko koko ashobora gukira, nko kumubwira ati ''tambuka ujye hariya, terura iki kintu, ibyo bituma bizera yuko najya no mu rugo nta kabuza ashobora gukira.

Ni byiza kwita ku babyeyi, bacu cyane cyane iyo bamaze gukura nko kubaha impano, kubaririmbira, kubitaho, kubasura kenshi no kubaganiriza no kubahumuriza, kuko babona yuko turi kumwe kandi birabanezereza.

Abantu bakuze nabo rero baba bakeneye kubitaho kandi ukabereka yuko ubishimiye, tuvuge urugero niba yarwaye ukibuka kumuha imiti, ukamuganiriza, ukamubaza uko amerewe, bituma mu bwonko we no mu mubiri we hahora hameze neza, akumva ko agikwiriye kubaho kuko aba abona afite agaciro mu maso y'abantu.

Gukoresha abasaza siporo na byo ni byiza kuko bituma bakomera kandi ubuzima bwabo bukagenda neza. Umusaza cyangwa umukecuru ukora siporo, haba hari icyizere cy'uko yaramba.

Gukora siporo ni byiza cyane cyane iyo muri nka babiri, kugenda muri gukora siporo mwirukanka ntabwo mupfa kunanirwa kuko mugenda muganira cyangwa mutera akaririmbo kabatera kuraje gatuma mutananirwa. Ni byiza rero gukora siporo.

Ababyeyi bashimishwa n'ubukwe, iyo babonye umwana babyaye akoze ubukwe birabanezereza cyane, ni yo mpamvu umwana gushimira ababyeyi, akenshi bifashisha ubukwe kugira ngo babanezereze mu ruhame.

Ababyeyi bakuze ba bishimira kuba mu muryango, hamwe n'ababakomotseho bakagira igihe cyo kuganira, bagasangira amakuru, bituma basaza neza, kandi bakagira ibyishimo, bahora bafite ubuzima bwiza.

Igihe kinini iyo ukimaze uri n'umuryango wawe uba wishimye, niyo mpamvu hari abantu uba usanga babayeho neza cyane, kubera yuko bamara igihe kinini bari kumwe n'imiryango yabo, bagasangira ibyishimo yewe n'imibabaro bakayisangira, ibyo bituma mu ubwonko bwabo bwishima kuko baba bumva abantu babo babumva kandi bari kumwe.

Gufata umuntu amaraso cyangwa kumenya uko amaraso ye atembera no kumenya uko umutima we utera, bituma umenya aho utera ndetse bikagufasha nkawe nk'umuganga kumenya ngo uwo muntu afite ikihe kibazo, naho urahera umuvura.

Gufata intungamubiri ni byiza kuko bituma ubuzima bugenda neza, kurya indyo yuzuye ni ukwita ku birinda indwara, ibitera imbaraga n'ibyubaka umubiri. Icyo gihe ndwara wapfa guhura na zo kuko uba wafashe kuri buri kiribwa bitewe n'agaciro kacyo.

Ni ngombwa ko umuntu agira amahame y'ubuzima bwe kuko bituma amenya uko yitwara n'uko agomba kugira gahunda y'ubuzima bwe, n'uko agomba kubyitwaramo mu gihe ahuye n'ikibazo, niyo mpamvu kugira amahame ku muntu ari byiza birengera ubuzima.

Kugira umenya imitekerereze y'umuntu ni uko uganira nawe, ushaka kumenya amakuru urugero, nk'ikigo cy'amashuri, ugasura icyo kigo ukaganiriza abo bana ukamenya ibibazo bahura nabyo, ukamenya uko bameze bityo ukamenya ngo iki kigo nagifashe iki, cyangwa uyu mwana namufasha iki, nkurikije ibyo yansobanuriye ku bibazo namubajije.

Iyo bajya gukorera umuntu operasiyo, bamukorera operasiyo barenze umuganga umwe, kuko umwe ashobora kwibeshya cyangwa akajijwa, urugero nk'umubyeyi ugiye kubyara, baba agomba kuba ari nk'abadogiteri barenze umwe, kugira ngo bamukurikirane neza.

Kurwara amenyo ni bibi kuko iyo urwaye amenyo birangira bayakuye. Niyo mpamvu rero umuntu agomba kwita ku menyo ye akazajya ayoza neza n'umuti w'amenyo n'uburoso kugira ngo yirinde izo ndwara zose zamwugariza.

Kwishimira intsinzi ni ngombwa, igihe hari icyo wagezeho uba ugomba kwishima, ugatumira n'abandi bagufashije mukishima, cyane cyane nk'uko abagore bari barahejwe ariko ubu bakaba barahawe ijambo. Hari umunsi rero wagenewe abagore, bityo nk'abagore biteje imbere bagahurira hamwe bagasangira kandi bakishimana.

Hari igihe umuntu aba afite ikibazo cy'ijisho, iyo umuntu afite ikibazo cy'ijisho rero ajya kwa muganga bakamuvura, baba bashobora kuribaga bakaba bapfutse, kugira ngo nibapfukura azarebe, bapfuka kugira ngo imyanda itaza kujyamo ikangiza ijisho.

Abana bakunze kwisanzura cyane kuko umwana ntago aba azi icyiza n'ikibi, aba yisanzuye kwa muganga, niyo mpamvu abaganga biborohera kuvura abana, kuko abana bo nta kibazo cyabo, baba bari kwishima kandi banisekeye, kuko niyo wamutera urushinge umwana warangiza ukamusetsa ahita agusekera.

Ibigo Nderabuzima biba bigomba kuba bifite ibimenyetso bibiranga. Urugero nk'Ikigo Nderabuzima cya Nyarurenzi imbere y'ibitaro haba hari icyapa kandi na ho aho kirahari cyanditseho ko ari Ikigo Nderabuzima cya Nyarurenzi. Noneho ku buryo umuntu uje kwivuza atayoboza iyo azi gusoma, ahita amenya ko ahageze akinjira bakamusuzuma bakanamuvura cyangwa agasaba indi serivisi ashaka.

Ibitaro bya Nyarugenge biri ahantu heza kandi hitaruye, ku buryo umuntu atapfa kubiyoberwa cyane cyangwa ngo ayobe, kuko biri ahantu hagaragara kandi heza. Byubatse mu buryo bwiza rero, ku buryo umuntu wese ubibonye abyishimira.

Inyubako uko igaragara igaragaza n'ibiyirimo imbere akenshi, nk'ibitaro iyo bifite isuku ukibigeramo uhita ubibona, n'ahandi hantu muri rusange hahuriye abantu benshi bibanda ku isuku.

Farumasi ni nziza zitabara kandi zikarengera abaturage cyane ko hari nka pirive zita nko ku bwishingizi urugero waba ukoresha nka rama ukaba wagenda bakakuvura batagusabye ubusobanuro bwinshi, cyangwa wakwishyura ukishyura make ashoboka ugereranyije no kuba utari muri ubwo bwishingizi.

Hari farumasi ubu usanga zikora koko kandi zifite intego hari n'izindi ubu usanga zdakura neza, ariko farumasi iyo ifite intego usanga ubwayo iri kwishakira abakiriya, kuko iyo umuntu arwaye akayijyaho bakamuvura arangira undi nawe akazarangira undi gutyo bigatuma itera imbere vuba.

Mu bitaro haba hari ibikoresho byinshi kandi bikoresha ikoranabuhanga binubatse mu buryo bw'ikoranabuhanga ku buryo biba bizeye yuko birafasha abarwayi kugira ngo abaganga babone uko babavura.

Kwa muganga haba hari ibitanda bigiye bitondetse ku murongo ku buryo buri murwayi aba afite igitanda cye. Biba bitondetse ku buryo buboneye bigaragara n'amaso ku buryo umuntu iyo ahageze bamubwira nimero y'igitanda agiyeho agahita agenda akakimenya bitagombeye kure.

Uko imyaka igenda ishira indi igataha hagenda hubakwa ahantu abantu bazajya bitabwaho n'aho bazajya bagana, bahita ku ivuriro, aho iyo umuntu agize ikibazo cyangwa yumva atameze neza ajya, hakaba hari n'ikirango kigaragaza y'uko aho hantu habera ubuvuzi.

Ubuzima bw'umubyeyi ni ngombwa cyane kandi n'ubw'umwana uba uri mu nda na byo aba ari ngombwa cyane. Umubyeyi utwite rero iyo agiye kwipimisha, baba bagira ngo barebe ubuzima bwe uko buhagaze ndetse n'ubw'umwana uri mu nda uko buhagaze.

Ibitaro byubatsa neza bituma abantu bishimira kubijyamo, kuko uba usanga akenshi bifite n'isuku. Ni ngombwa rero kugira isuku, kuko hari igihe uba usanga yenda ibitaro bisa neza ariko ababijyamo basa nabi. Ni ngombwa rero ko buri muntu wese agira isuku ku ruhare rwe, kuko akenshi no kwa muganga umuntu ashobora kuhakura indwara, aramutse atitonze.

Gukora amasuku kwa muganga ni byiza kuko ahantu hari i isoku nta muntu utahishimira kandi iyo ahantu hari isuku uba ubona ibintu byose bimeze neza , niyo mpamvu rero umuntu agomba kugira isuku kuko ntabwo wajya ahantu ngo usange hari isuku nurangiza uhasige umwanda ngo uvuge ngo ni umuco mwiza.

Ubu ngubu kwa muganga ubusanga hari imashini zabugenewe ku buryo ushobora kureba mu mubiri w'umuntu ukareba kuri kamera ukahafotora ukareba uko hameze bityo ukamuvura ufite aho urebera kandi ushingiye ku kuba ufite amakuru yizewe.

Kwa muganga ababyeyi bagiye kubyara cyangwa bagiye kwipimisha inda, bagira ibyumba byihariye byo kubasuzumiramo, ibyo kubabyarizamo kugira ngo birinde akajagari no kugira ngo abantu bataza aho bari bakaba bababangamira.

Abantu babana n'ubumuga, nabo bagomba kwitabwaho mu buryo by'umwihariko, bakabashakira akagare ko kubacungamo kunganira umubiri wabo, kugira ngo bakore muvoma, nabyo biba ari nka siporo, kuko bituma nabo bava hamwe bajya ahandi, icyo gihe umubiri uba uri gukora.

Umujyi wa kigali niwo murwa mukuru w'u Rwanda utuwe n'abantu benshi kandi hafite isuku hanameze neza, nubwo hari abana baciye bugufi ariko Umujyi wa Kigali ni wo mujyi uhagarariye indi mijyi yose yo mu Rwanda ikaza yunganiwe n'indi mijyi yo mu nkengero zayo urugero nka Musanze, Rubavu, Nyagatare, Muhanga, Rwamagana n'ahandi.

Ku bitaro haba hari ibyuma byinshi byo gukoresha mu buryo bw'ubuvuzi, kandi biba bifite agaciro gakomeye cyane, kuko aribyo bituma abarwayi bitabwaho ku kigero cyifuzwa.

Umuntu iyo ari kwa muganga anarembye aba akeneye kuba ahantu hatuje hatari n'urusaku kugira ngo babone uko bamwitaho nk'iyo bagiye kumwongerera amaraso, biba bisaba kugira ngo bamuryamishe neza mu buryo bwiza, bamushyiremo serumu maze ubundi atuze yakire ya serumu kandi na bo bakamenya neza niba koko ari kwakira ibyo bari kumuhereza.

Ibigo nderabuzima byegerejwe abaturage, ku buryo umuturage atarwara ngo arembere mu rugo, ibyo bifasha abaturarwanda muri rusange ndetse n'igihugu cyacu kugira ngo dukomeze duteye imbere, kuko kugira umuntu atera imbere ni uko aba afite ubuzima bwiza.

Ababyeyi n'impinja baba bafite ibyumba byabo kugira ngo babiteho mu buryo bw'umwihariko, ntabwo baba basangiye ibyumba n'abandi barwayi, kuko bo baba bafite byinshi byo kubavugaho, no kubitaho, no kubaganiriza.

Akenshi abaganga bita ku barwayi. Abaganga ubungubu akenshi baba bafite imyenda ibaranga, cyangwa se impuzangano, ku buryo nk'umurwayi uhuye nawe kwa muganga, ahita amenya ko ari muganga, akaba ashobora kuba yamubaza ikibazo afite.

Umuryango ni mwiza, cyane cyane iyo bamaze kwibaruka umwana, bagira ibyishimo bidasanzwe bisumbeje uko bari babayeho mbere y'uko bakiye undi muntu mushya, kwa muganga bafasha abaturage kugira ngo babyare neza.

Kanseri yica abantu batari bakeya ku isi ndetse no mu gihugu cyacu nyirizina. Rero ni yo mpamvu Abanyarwanda bafashe ingamba yo gushyiraho ikigo gishinzwe kwita kuri abo bantu kugira ngo igihe yagaragaye bahite bamwitaho.

Ku isi cyane cyane no mu Rwanda, ama farumasi amaze kuba menshi, ku buryo rwose bishimisha abaturage, kuko byunganira ibitaro. Tuvuge ushobora kurwara nka nijoro, ubona kugera kwa muganga bitoroshye, ukaba wajya muri farumasi ukababwira uko uri kubabara bakaguha imiti, cyane ko na bo n'ubundi baba barize iby'ubuvuzi.

Gukora siporo uri kumva n'imiziki byongera courage ukumva utarushye, ugakomeza ugakora, kuko uba ufite ibindi uteze amatwi uri ukumva, ntabwo umenya niba warushye ahubwo ubona igihe aricyo kigufashe.

Iyo umuntu yagize ikibazo cy'urugingo, cyangwa yavunitse kwa muganga bamuhererereza ingingo, cyangwa bakamuhereza ikindi kintu cyamufasha kugira ngo atangire amenye gutambuka neza, nko kumushyiraho sima no kumushyiraho indi foromo imeze nk'akaguru ku buryo akandagira amagufwa akokongera agasubirana akanegerana.

Amazi ni ngombwa mu buzima bw'umuntu, ndetse cyane cyane nko ku muntu ukora siporo, umuntu ukora siporo akaba anywa n'amazi kenshi biragoye ko wabona arwaragurika indwara za hato na hato kimwe n'undi muntu udakora siporo cyangwa utanywa amazi, niyo mpamvu rero umuntu wese agomba kunywa amazi agakora na siporo kugira ngo tubungabunge ubuzima bwacu.

Ibimera ni ingenzi cyane, kuko abenshi bamaze kumenya agaciro kabyo, ku buryo umuntu iyo ariye ntarenzeho urubuto, aba yumva atanyuzwe. Ndetse cyangwa yaba atariye imboga rwatsi akumva atanyuzwe. Bityo rero, imbuto ni ngombwa cyane, ku buryo umuntu akeneye kuzirya kenshi gashoboka; cyane cyane nk'umubyeyi utwite, kugira ngo abeho neza.

Kugenda ugorora ingingo z'umubiri no mu mavi, mu ngingo ahantu hose hari urugingo. Biba ari byiza cyane kuko ingingo zirananuka kandi zigakora neza mu buryo butandukanye n'uko zakoraga utari wakora siporo, ariko iyo ubigize akamenyero, n'umubiri na wo ubigira akamenyero, ugahora umeze neza.

Kunywa amazi ni ingenzi kandi ni na byiza cyane kuko iyo unyweye amazi uhora umeze neza kandi ntabibazo by'uburwayi bwinshi ukunze kugira, niyo mpamvu umuntu agomba kunywa amazi kenshi kandi akanywa amazi meza.

Kunywa amazi ni byiza kandi kuyanywa akenshi ni byiza kurushaho, kuko amazi nta ngaruka mbi agira ku mubiri, ahubwo agira ingaruka nziza gusa, niyo mpamvu rero umuntu na we agomba kunywa amazi, anakwiye kunywa amazi menshi kandi ariko meza, kuko iyo ari amazi mabi ashobora ku gutera nk'inzoka cyangwa n'izindi ndwara.

Igihe umuntu akora siporo, biba byiza iyobagerageje gukoresha ingingo ze nk'amaguru n'amaboko, kugira ngo amenye neza yuko ibice bye by'umubiri bikora neza. Nko kwikora ku mugongo, ukunama ukagenda ukora ku mano, wananuye mu mavi, kuzunguza umutwe.

Kwinanura ni byiza cyane cyane ukagorora nk'ikirenge, ukagorora amaboko, ukagorora ijosi, kuko ibyo ngibyo bituma umera neza kandi utapfa gusaza byoroshye, ukagenda ukora siporo, wunama, ugenda ubigerageza, ugera aho ukamenyera.

Hari ubundi buryo umuntu yakinamo siporo, urugero ushobora gukoresha nka volley, ushobora gukoresha imipira, utudenesi, gusimbuka umugozi n'ibindi byinshi. ibyo byose bituma ubuzima bwawe bugenda neza. Ushobora gukoresha na tricket n'ibindi nk'ibyo.

Kugorora umubiri na byo na siporo, ntabwo byo bigombera kuba uri kumwe n'undi muntu nawe ubwawe wabishobora, icyo upfa ni ukumenya icyo ushaka no kumenya ko umubiri wawe ari wowe ugomba kuwuyobora kandi ukawutwara uko ushaka kuzabaho.

Kurya imbuto ni byiza kandi ni byiza cyane kuko iyo urya imbuto ntabwo upfa guhura n'indwara za hato na hato. Uba ugomba guhora umeze neza kuko nta kibazo na kimwe uba ufite nk'imizabibu kurya ibitunguru, kurya inyanya n'ibindi byinshi nko kurya pome ni byiza.

Croix Rouge yamamaye ku isi hose ndetse yageze no mu Rwanda, ku buryo Croix Rouge iyo umuntu arwaye imwitaho kandi hari abantu babihuguriwe bashinzwe ibyo bintu ku buryo nko mu Karere baba bahari, yewe no mu Murenge bahari, bakaba batabara aho rukomeye.

Kwikorera masaje na byo bifatwa nka siporo, kugenda bikandakanda imitsi bituma amaraso atembera neza, ariko iyo utabikora amavuta uba usanga ari mu mubiri nta kintu ahindukaho, ahubwo bigutera umubyibuho gusa, ariko iyo ukunda gukora masaje amaraso atembera neza ukanaruhuka.

Gukora siporo ni ingenzi, nta n'icyasimbura siporo. Umuntu ukora siporo ahora ameze neza, amaraso ye aba atembera neza ,kandi aba afite n'imbaraga kuko imitsi ye aba ayikoresha, bityo rero bituma amaraso atembera neza mu mubiri.

Igihe umuntu anywa amazi ni ngombwa cyane yuko ayanywa mu buryo bwiza, urugero ugasuka nko mukirahure ukagenda unywaho gahoro gahoro, yashira ugasukamo andi, ibyo ngibyo ni byiza ku mubiri kuko bituma umubiri wawe ugira imbaraga kandi utagira amaraso makeya.

Birashoboka ko umuntu ubwe yikoresha siporo akiha igihe, niba azajya ataruka umugozi akaba awufite, niba azajya afatiza ku gikuta igikuta kikaba gihari, akazamura akaguru cyangwa ugahina akaguru cyangwa ukazamura amaboko cyangwa ukayamanura cyangwa ugapfukama bitewe n'uko ushaka.

Hirya no hino ku isi abantu bagenda bakora impanuka mu buryo butandukanye, ariko kwa muganga niho hantu honyine aba agomba guhita ajya kugira ngo bamwiteho, bakamugorora bakamufasha kugira ngo yongere agende neza.

Ivi ry'umuntu rifite akamaro ariko rigizwe n'ingasire, ku buryo kugira ngo umuntu ahine akaguru bisaba kugira ngo mu mavi ye habe hameze neza kandi ntakibazo kindi hagize, rero niyo mpamvu gukora siporo ari byiza kuko iyo ukoze siporo bituma ingingo zawe zose z'umubiri zikora neza.

Ubuvuzi bw'ibanze ni ngombwa kuba umuntu abufite, kugira ngo yivure igihe bibaye ngombwa, akaba afite akabogisi karimo nk'amapamba, karimo imakasi, kuburyo bibaye ngombwa yakivura, maze akabona kujya kwa muganga bakamukorera ibindi bisumbuyeho.

Iyo umuntu yavunitse cyane bamuhereza ubuvuzi bw'ibanze, nko gufata igiti bagahambira ku kaguru kavunitse, kugira ngo gakomeze kari mu murongo umwe, bazabone uko bamubaga. Ni byiza rero kumenya ubuvuzi bw'ibanze wakorera umuntu wavubitse cyangwa wagize ikindi kibazo.

Abantu benshi basigaye bakora impanuka uko ibinyabiziga bigenda byiyongera n'ibindi bikaza niko impanuka ziyongera kuko abantu benshi bakoresha umuhanda, ariko kwa muganga naho haba hari abantu bo kubitaho ku buryo niyo wagira akantu gatoya wumva uhungabanyaho ku bijyanye n'amagufa, uragenda bakaguga bakagukora aka masaje, bakagusiga amavuta bakakugorora ingingo ukagira ukamera neza.

Abantu bamaze kumenya agaciro ko kunywa amazi, ku buryo ubu ngubu umuntu ashobora kwiha gahunda yo kuzajya anywa amazi, nko mu gitondo ukanywa amazi, saa yine ukanywa amazi, saa munani ukanywa amazi, saa kumi n'ebyiri ukanywa amazi, mbese ukagira gahunda ihoraho yo kunywa amazi. Cyangwa naho wicaye mu kazi ukicarana icupa ry'amazi ukagenda usomaho, cyangwa naho uri mu ishuri ukaba ufite amazi ukagenda unywaho.

Imbago ni igice cy'ingenzi, ni icyuma, cyangwa se ni inkoni iba ifite ibifashe byakorewe ko umuntu yayifashisha mu gihe ari kugenda, urugero niba yavunitse akaguru akaba ari gucumbagira, cyangwa gutera isekuru, akayifashisha, ayigenderaho, kuko bimurinda kuba yagwa.

Ni byiza ko umuntu anywa amazi, nko mu gitondo ugasuka ikirahure cy'amazi ukanywa, saa sita ukanywa, nimugoroba ukanywa, ukabikora buri munsi, icyo gihe uba umeze neza, iyo noneho ukora na siporo biba akarusho kuko ubuzima bwawe buba bumeze neza.

Gukora siporo ni ingenzi kandi ni byiza iyo ugiye ufite gahunda kandi ufite intego uragenda ukayikora utitaye ngo uri wenyine cyangwa muri benshi ushobora kuyikora kandi ukayikora neza cyane kandi mu buryo bwiza. Ni ngombwa rero gukora siporo nta kwitwaza ngo wabuze undi mukorana.

Umuntu ashobora kwifashisha ibice bitandukanye ndetse n'ibikoresho kugira ngo akore siporo neza, ujya nko kuba ufite amazi, ufite akantu wagenda uterura, ushobora kuba ufite imashini ugashyimo indirimbo ugenda wumva kugirango ngo utarambirwa.

Hari abasore baba bashaka kugira amatuza manini ku buryo babikorera, bagakoresha imbaraga zabo zose; hari n'akandi gakoresho rero bagura gashobora kubibafashamo cyane kagura ibihumbi ijana na makumyabiri; iyo umuntu afite amafaranga rero aragenda akakagura, akaba ariko akoresha kugira ngo byihute.

Ibikoresho byunganira umubiri w'umuntu nk'utugare, imbago n'ibindi byifashishwa kugira ngo bifashe umubiri w'umuntu abe yagenda, ni ngombwa cyane kwa muganga biba bihari kugira ngo bifashe abo bantu.

Siporo ni ikintu buri muntu yagakwiye kwitaho ndetse abenshi bamajije gusobanukirwa n'akamaro ka siporo, umuntu ukora siporo ntabwo apfa kurwaragurika cyangwa n'indwara za hato na hato. Gukora siporo rero bituma umuntu agira ubuzima bwiza kandi agahora ameze neza mu buzima. Abantu rero ni ngombwa ko bakora siporo mu buryo bwo kugira ngo barinde ubuzima bwabo.

Kurya neza ni byiza. Iyo urya neza bituma umubiri wawe umera neza, ukamera nk'umuntu ukora siporo. Uba ugomba kurya wamanje kureba ibiro byawe uko bihagaze, ukamenya icyo ukeneye. Wasanga ugomba kujya kuri rejime ukabikora, ukanywa n'amazi menshi.

Umuntu ashobora gukora siporo yikanda kanda ibice by'umubiri kugira ngo amaraso ye atembere neza, niyo mpamvu iyo umuntu akora siporo agerageza gukoresha ibice by'umubiri byose kugira ngo byose bigire ubuzima bwiza.

Kwita ku mazi cyane ni ngombwa. Umuntu niba amaze imyaka arwaragurika, umuntu aba agomba kwitwaza amazi, waba ugiye ku rugendo, waba uri mu kazi, ukitwaza amazi, ukicara uyanywa kuko ni byiza ku mubiri.

Imodoka zitwara abagenzi ubu zamaze gukwira mu gihugu cyose, ku buryo umuntu iyo arwaye mu mwanya wo kugira ngo yirukanke n'amaguru, ahubwo haba hari ambulance ushobora kuyihamagara ikaza ikamutwara ikamugeza kwa muganga mu buryo bwihuse bitagoranye.

Hari imiti yunganira siporo wanywa kugira ngo uhore umubiri wawe umeze neza, kandi usukuye ibyo byose biterwa n'ubushake bw'umuntu, ndetse n'ubushobozi bwe afite ariko akenshi ikibura ni ubushake ariko imiti yo irahari.

Hari intebe zikoranye ubuhanga, ku buryo yagufasha gukora siporo, wayicaraho urugero ikizinguriza cyangwa ikagenda izamuka imanuka gahoro, kugeza igihe wumvishije iruhutse cyangwa uyiviriyeho, wanayihagarika igihe wumva utakibikeneye.

Gukora siporo ni byiza, ukitwaza n'amazi, wagera nko mu nzira waruha ukongera ukanywaho, ukaruhuka ukongera ugakomeza, paka ugeze aho watangiriye cyangwa hamwe ushaka kugera. Ni byiza ko dukora siporo rero, dufite intego, kuko bituma umuntu adacika intege.

Hari ibinini ushobora kurya kugira ngo uhore umeze neza nk'umuntu ukora siporo. Ibyo binini rero ni ngombwa kubifata igihe udashoboye gukora siporo kuko siporo tuzi akamaro kayo ku buzima bw'umuntu, niyo mpamvu abenshi babifata igihe bananiwe na siporo.

Hari igihe umuntu aba ari gukora siporo, akaba yakangirika cyangwa agacika igisebe, icyo gihe yihutira kujya kwa muganga bakamupfuka, cyangwa nawe ubwe ashobora kwipfuka igihe afite ibikoresho by'ibanze.

Iyo umuntu ari kwa muganga bamugerageza kumukoresha ibice by'umubiri, iyo bidakora neza cyangwa nk'iyo yavunitse bakagenda bamunura kugira yongere akore neza ndetse n'ibice bye by'umubiri byose bikore neza.

Abenshi uba usanga bagana nk'abantu babafasha, ugasanga nk'umuntu yimenyereye kujya muri jimu kugira ngo bamukoreshe binamutere kuraje yo kugira ngo akomeze akore nk'ibyo abandi bari gukora, nko guterura, kunyonga amagare n'ibindi nk'ibyo ngibyo na byo birafasha kandi bitera kuraje, kuko ntabwo upfa kunanirwa kuko utaba uri wenyine uri kumwe n'abandi.

Ubundi biba byiza iyo niba uzi ko uru umucuruzi w'imiti cyangwa uri umuvuzi gakondo uba ugomba kwiyandikisha kugira ngo bakumenye, kuko iyo batakuzi icyo gihe ntago uba uri umuganga wemewe. Bivuze ngo nta byangombwa uba ufite nta n'uburenganzira uba bafite.

Ibinyobwa ni ingenzi ku mubiri w'umuntu no mu buzima bw'umuntu kuko hari indwara nyinshi zirwanywa no gufata bimwe mu binyobwa bisembuye. Niyo mpamvu umuntu afata ibinyobwa cyane cyane nk'inzoga aba aronka imbaraga z'umubiri nka alcol n'ibindi.

Kera abakurambere bacu cyane cyane tutari twamenye umwami wacu Yezu Kristu uwo ari we, hari abakurambere bakoreshaga ibintu by'imiterekero no kubandwa. Rero wasangaga ari byo bizereyemo. Bitwaga abapfumu, waba urwaye ukagenda akakuvura cyangwa akakubwira imva n'imvano yabyo, ariko muri iki gihe ubu twamenye izuka ry'umwami wacu.

Ibimera ni umuti mwiza cyane urugero nk'iyo umuntu afite ibiheri, afite ibihushi cyangwa afite nk'inkovu hari uburyo umuntu akora umuti awukuye mu bimera akivura kandi agakira akongera agasubirana ruhu rwiza.

Abenshi bamaze kuvumbura ibanga ry'ibimera, rero akenshi iyo bibonetse ibyo wifuzaga yenda ari nk'umuti cyangwa nk'ibindi biribwa, abantu bashatse uburyo bwo kubitunganya no kubibika ku buryo bitapfa kwangirika, mu buryo bwo kugira ngo igihe babikeneye baze kubikoresha bitarigeze byangirika.

Abakurambere bacu bahoze bakoresha imiti ya Kinyarwanda bivura, kandi imiti igakora. Na nubu abahanga baragerageza, kugenda bafata, ibyatsi n'ibindi bimera bagakoramo umuti, kandi ukabasha gufasha abaturage. Ibimera rero ni byiza tugomba kubibungabunga cyane by'umwihariko kuko usibye no kubirya bivamo imiti.

Imiti ishobora kumara igihe kinini cyangwa gitoya ibitswe bitewe n'uburyo wayibitsemo. Rero abantu bavumbuye uburyo bwiza bwo kubikamo imiti nko gukoresha amacupa asukuye bakanayapfundikira neza bagashyira ahantu heza. Bituma atangirika.

Igihe ujya kugura umuti w'amenyo ni ngombwa ko ubanza kumenya icyo uwo muti ukozemo, kugira ngo umenye neza niba uwo muti utazangiriza amenyo yawe, ni byiza rero kuko umuti w'amenyo nawo ubwawo ugira ingaruka ku menyo iyo atari mwiza.

Ibyatsi ni byiza kandi ni ngombwa ,kuko ibimera ni byo umuntu abayeho yishingikirijeho. Usibye no kubirya ,n'umwuka duhumeka na byo bibigiramo uruhare. Ni yo mpamvu rero ibihingwa ari ngombwa, tugomba no kubyitaho.

Ibihingwa bigenda bivamo umusaruro cyangwa umuti usa neza nuko icyo gihingwa gisa, urugero niba igiti cyera imbuto z'umutuku iyo ugiseye n'ubundi uba usanga ari umutuku.

Umuti w'amenyo nawo ugira agaciro ku buzima bw'umuntu. Ni yo mpamvu nujya kuborosa uzite ku gaciro k'uwo muti. Ese uwo umuti uzakora iki ku menyo yawe kugira ngo utaziyicira amenyom ? Ahubwo umenye ngo uyu muti ni uje kumfasha?

Ibimera ni byiza cyane kuko bituviramo umuti tukawivuza kandi tugakira tutagombye kujya kwa muganga. Kuko iyo ugiye kwa muganga baguha imiti ugakira ariko urumva iyo ubonye imiti ukaba wayifata ugakira utarinze kujya kwa muganga na byo ni byiza cyane.

Imiti ya kinyarwanda irakora cyane ndetse abakurambere bo babyitaga kubandwa no guterekera cyangwa abapfumu, ugakoresha ibyatsi, bakabaguha kugira ngo ukire ibyo wari urwaye.

Kubika ubuki ni byiza cyane, kuko ubuki buvura indwara nyinshi, kandi ubuki buranaribwa, rero ubuki iyo ukimara kububona ubushakira icupa ryiza, ku buryo butangirika ugashyiramo, igihe cyose wabukenerera iyo wabubitse neza, ntago buba bwarapfuye urabukoresha ni byiza rero kubika imiti neza.

Uko imiti igenda yiyongera niko n'abakiriya bagenda baboneka, kuko iyo umuti uvuye umwe arangira undi na we akaza bakamuha umuti gutyo, ku buryo usanga abantu benshi bakora mu mafaromasi baba bafite imiti bagiye bakora mu bimera.

Kubika imiti neza ni byiza cyane kuko bituma itangirika, kuko iyo ibitse neza ntacyapfa kuyangiza tuvuge nk'imyanda yenda ntabwo yajyamo kuko iba ipfundikiye neza. Niyo mpamvu rero tutagomba kubika imiti yacu nabi kugira ngo tuyirinde kwangirika.

Imiti gakondo yamaze gukwira mu gihugu cyose kandi abantu bamaze kumenya agaciro kayo mu by'ukuri. Ku buryo ubu ngubu ibimera bakoramo imiti yo kwisiga, bagakoramo n'amavuta yo kurya kandi bigira agaciro mu mubiri w'umuntu.

Igikakarubamba gifite agaciro ku buzima bw'umuntu, ushobora kucyisiga ukamera neza mu buryo bwose, ushaka gukuraho inkovu ushobora kucyifashisha, yewe n'indwara ushobora kukinywa ugakira indwara zo mu nda igikakarubamba rero ni cyiza.

Ibimera ni byiza cyane, ibyinshi turabirya, tukabirya nk'ibiryo, ibindi tukabirya nk'imiti, ibindi tukabikoramo nabyo imiti, tukaba twasekura tukanika, tukakuvanamo ifu cyangwa se tukabikamura tugakuramo amazi kugira ngo tubyifashishe.

Imiti wamenye ni ngombwa kuwitaho cyane, ukamenya neza umuti ugiye kuboroshesha amenyo yawe, uko ameze, niba utazangiriza amenyo, kuko hari igihe umuntu asanga aboroshesha umuti mubi ukangiriza amenyo, kandi yabikoze atari abizi.

Imiti, ifite agaciro cyane, ku buryo ubu ngubu ibimera, bamaze kuvumbura yuko bigira imiti, bakomeza bashakisha uburyo bwo kubibika, nko gushyira mu macupa ameze neza, ndetse bakaba banabiteguye neza bakoresheje imashini zabugenewe, kugira ngo bibikwe igihe kirekire, bityo umuntu ubikeneye by'ako kanya cyangwa by'igihe kinini abibone.

Ibihingwa bikoresha mu buryo bwinshi butandukanye: urugero nko mu cyayi nko gushyiramo mucyayicyayi bigatuma icyayi cyawe gihumura neza, hari n'ibindi rero twifashisha turi kurya tukabirya kugira ngo bidufashe mu buzima bwacu, tutagombeye kujya kubiteka ahubwo tugapfa kubirya tukabyoza gusa n'amazi meza.

Hari n'uburyo ushobora kubikamo umuti Nyarwanda by'igihe kirekire kandi bitavunanye. Urugero ugafata nk'amababi ukayasekura, wamara kuyasekura ukayanika akuma, ukayashya cyangwa ukayavunga cyangwa ukayasekura, warangiza kakaba agafu keza ukaba washyira nko mu ishashi cyangwa mu icupa cyangwa no mu kindi kintu ugapfundikira neza.

Hari uburyo bwinshi bwo kwiyitaho ukoresheje imiti ya kinyarwanda kandi bitavunanye bitanaguhenze. Rero abenshi bamenye iryo banga, niryo bakoresha bakagira ubuzima bwiza, nta kindi kibazo bafite.

Hari imiti myinshi isekurwa kugira ngo babone uko bayibika kuko kubika ifu biba byoroshye cyane kuruta uko wabika ikintu cy'amazi cyangwa cy'amavuta, niyo mpamvu abenshi bakunze kubika imiti igaragara nkaho ari ivu.

Imiti gakondo ikomeje kwiyongera mu gihugu kandi ifite n'agaciro ku buzima bw'umuntu, rero abantu bamaze gusobanukirwa ikijyanye n'imiti ndetse n'ibimera nta bwoba baba bafite kuko iyo abonye iyo ndwara ayizi arivura kandi agakira.

Uko iminsi igenda ishira abantu bagenda basobanukirwa n'akamaro k'ibimera bibakikije, ku buryo ubu ngubu iyo umuntu abonye igiti ahita atangira kugitekerezaho ibyakivamo, agatangira no kumenya uko yagikoreshwa yaba atanakizi ukabona yuko afite ubushake bwo kubaza.

Kubika imiti mu macupa meza kandi asukuye ni byiza cyane. Kuko iyo uyibitse neza ntabwo ipfa kwangirika, urayibika igihe ushakiye akaba ari cyo gihe uzayikoreshereza. Rero ni ngombwa kubika imiti neza.

Ubu abantu bagiye bavumbura ubwenge, ku buryo iyo umuntu ashaka gutera nk'igihingwa, abanza agakora ingemwe yacyo, yarangiza akazaba aribwo atera nyuma, zaramaze gukura, yaramaze kumenya ko ari nzima kuko, niyo mpamvu igihe umuntu agiye gutera igiti abanza kumenya yuko icyo giti koko kizakura kandi kimeze neza.

Umuti w'amenyo umaze kuvumburwa kenshi kandi wagiye uvumburwa mu bimera kuko ibimera birimo umuti, kandi imiti myinshi iba yavuye mu bimera. Rero uwo muti wogesheje amenyo nta kibazo wagutera, ahubwo amenyo yawe aba ameze neza, nta nubwo yapfa kurwara.